Aba papa ndetse na mama bicaye ku ntebe b'imisego zifite imbaho ku mpande, harimo baraganira ku bibazo runaka byaba byugarije igihugu cyangwa se umujyi wabo muri rusange uducupa tw'amazi tubari imbere.

Abantu barimo imbaga nyamwinshi abasore, inkumi cyangwa se aba papa bakuze wabita ubushaka bitewe n'uko babona, bari mu nama runaka rero n'uko bicaye ku meza ariho igitambaro cy'umukara udutebe tujya gusu ubururu, hari amakaye n'amakaramu babaye amazi yo kunywa ndetse n'amatara ari kwaka.

Abantu biganjemo abapapa ndetse nkurikije umuntu wicaye imbere ni umutegarugori, akantu kariho izina rye karambitse imbere ye ndetse abandi bafite ji, fanta cyangwa se amazi bari bubashe kunywa igihe bumva bagize icyaka runaka.

Ababyeyi benshi ndetse n'abasore, bamwe bafite ji ndetse abandi bari kwinywera amazi ku umuntu afite icyo abasha nyine arahitamo, bafite za mudasobwa bamwe kandi bafite amakaye n'amakaramu barimo barandika bari kumwe n'inzego z'umutekano nk'uko bigaragara.

Ababyeyi bicaye, hari izindi ntebe zambaye ubusa z'umweru ndetse ziriho ibitambaro by'umuhondo, hakurya hari icy'icyatsi ubona ko bari baje kumva ibivugirwamo.

Umubyeyi ubona ko ari hagati y'abandi bagabo ndetse yanarakaye cyane arimo aratanga ibitekerezo bamwe bafite amakayi n'amakaramu, amazi imbere yabo, na mudasobwa, inyuma hari ikirango kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho kigali yacu ndetse inakeye.

Urubyiruko ubona ko rwipfumbase rimwe, barimo baraganira bambaye imipira y'ubururu iriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere yabo hari amazi kugira ngo baze kwica icyaka, cyangwa ntihagire umuntu wicwa n'inyota.

Ahari ndetse n'abandi ubona ko bicaye bamwe bafite za mudasobwa, ababyeyi bambaye imyenda y'imituku amakaye n'amakaramu, imbere yabo ndetse n'ikirango kiri hakurya, inzu barimo ifite adutara turi kwaka duke duke ukuntu.

Abantu bicaye bamwe bifashe mu irugu cyangwa se mu ijosi bafite za mudasobwa imbere yabo, amazi, abandi bafite amakaye n'amakaramu hakurya banakora ibintu bisa neza udutara turi no kwaka.

Urubyiruko rwitabiriye inama urubona ko bakurikiye; bamwe bambaye imipira y'imyeru y'imbeho; abandi ni umukara, umutuku, ndetse n'ubururu. Inyuma hari abandi bahagaze ku gikuta giteye irangi ry'umuhondo, hirya hari n'undi na we wambaye ingofero.

Abagabo benshi cyane ubona ko biyicariye, bamwe bambaye amashati y'umweru, ubururu n'abandi barengejeho udukote. Bicaye mu ntebe nziza cyane zakozwe n'ababaji, ndetse hasi hari insinga zigiye zambukiranya zibashyira umuriro kuri buri muntu ufite mudasobwa ngo ayicomeke.

Umwari wambaye ikote ry'umutuku imisatsi iraboshye, yegeranye n'umugabo imbere ye hateretse agacupa k'amazi, amakaye n'amakaramu bandikiraho ibitekerezo byahatangiwe, imbere ho gatoya hari ikindi bavugiramo nyine gituma ibintu byumvikana.

Intebe nziza z'imisego y'umukara, ubona ko zicayemo inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, bambaye amagofero rwose baranarakaye, nyuma hari abandi benshi ubona ko bari bitabiriye ibintu bitandukanye tutabasha kumenya ibyo ari byo.

Abasore ndetse n'inkumi baricaye. Bamwe bambaye imyenda mituku, bafite amakaramu ndetse n'amakaye barimo barandika ibintu bihavugirwa, imbere ku meza hatatseho indabo ndetse hejuru hari ikintu bicayemo kibakingira izuba, hariho amabara y'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umusore ufite indangururamajwi cyangwa se abantu bayita uko bashaka ariko nge reka nyivuge nkuko nyine mbyumva, mbere hari uducupa tw'amazi, ikayi n'amakaramu, telefone, bisa na ho afite ikintu arimo kubwira aba bantu n'aba badamu bamuteze amatwi bamuri impande.

Aba ni abantu bari mu nama barikumva ibyo abayobozi babo bababwira, bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye ku biti, harimo abadamu, harimo n'abagabo ndetse n'urubyiruko bose baravanze.

Abagabo benshi cyane ubabona ko bitabiriye inama runaka, bambaye imyenda y'ibururu, umutuku, umuhondo ndetse n'umukara. Utwo bambaye natwo ni utugozi turi mu ijosi twanditseho amazina yabo. Imigozi itambukanya umuriro iwambutsa iwujyana ahantu runaka, bari mu nzu nini cyane.

Abantu bakuze ubona ko basa neza, bicaye ku ntebe zijya gusa umweru z'utwuma hasi, imbere yabo hari za mudasobwa cyangwa se ibindi bintu bari kwifashisha amakayi n'amakaramu, amazi yo kunywa imbere yabo, hakurya hari iyi n'insakakazamashusho muri kureberaho ibiri kuhavugirwa.

Inama ni ingenzi kuko zigakora ibintuintu bitandukanye hano rero harimo abasore ndetse n'inzego z'umutekano ureba yabibonye hakurya hari ibitambaro bikegirara ku madirishya kugira ngo izuba ritabica cyangwa se harihijimye rero ni byiza ko twamenya ko tugomba kubaha abatuyobo.

Abapapa abona ko bakuze bisa nkaho umusatsi bawumazeho nyine, bafite amazi imbere yabo, inyuma hari undi wicaye wambaye agashati k'umweru, wagira ngo arangariye muri telefone.

Abanyamakuru baba basakaye ahantu hose impamvu bagiye babura nk nkuko bigaragara kuri izi kamera ziiniyombi hano tureba hakurya hakaba hari abari gutanga ibiganiro runaka inyuma'hokigwa kimwera ry'ubururu ndetse habanza icyatsi ho gatoya abandi barahagaze bisa naho handitse ngo kigali yacu.

Abantu benshi ubona ko bicaye bafite ibintu bari kwigaho inyuma hari ibirango mu ibara ry'ubururu ndetse n'iterambere ry'u Rwanda ribanzirizwa n'ibyo navuze nyine rigaragaza icyo kirango, umuhondo n'icyatsi hasi aba rero ni abategarugori ndetse n'abandi bateze amatwi.

Abantu bakuru ndetse ubona ko basa n'abakuze bafite ibitekerezo, bari mu nama runaka yiga ku kibazo runaka, gishobora kuba cyugarije igihugu cyabo cyangwa Isi muri rusange, hano rero hari ameza asa neza amazi imbere amazi imbere yabo yo kunywa.

Umubyeyi abona ko yicaye yiyambariye ikanzu yageretse akaguru kandi mu ntebe nziza cyane, inyuma ye hari agacupa k'amazi, hirya ye gato hari undi wambaye umupira w'ubururu, naho twagaruka iburyo bwe, hari wambaye ak'umukara karimo utuntu tw'umweru. Hari n'abandi benshi rero bari bitabiriye baje...

Umutegarugori wicaye hagati y'abagabo babiri imbere yabo hari agaseke, udutambaro two kwihanaguza, udukaye n'amakaramu, uducupa tw'amazi y'inyange dupfundikiye ubona ko nta muntu urasomaho inyuma hari n'abandi benshi.

Abagabo batatu babiri bambaye utugofero ndetse n'amakanzu agaragaza idini basengeramo. Hakurya hari abandi bahagaze bisa naho bari kuganira harimo uwambaye umupira w'umutuku, ndetse imbere yaba hari uducu tw'amazi yo kunywa kugirango icyaka ni cyibica babashe kuba bayankwa.

Mudasobwa ni nziza cyane kuberako zirekana ibintu bitandukanye ubikamo amakuru ureberaho filime, amakuru agezweho n'ibintu byinshi cyane. Hano rero hariho abagabo bicaye buri umwe afite agakaye n'agakaramu n'amazi mbere ye bariku.

umwari ubona ko afite imsatsik iboshye umupira w'icyatsi wari utugarurarumuri atec n'ikaramu imbere ye hari mu agacupa k'amazi yo kunywa ndetse n'umusore ufite umusatsi sokore inyuma hari n'abandi b'urubyiruko benshi cyane.

Agasatsi yagasokoje ku ruhande bamazeho agasatsi ubona ko ubwanwa ari bukeya, inyuma ye hari uducupa tw'amazi twinshi cyane n'abari b'inzobe bambaye umupira w'ubururu ndetse n'umugozi w'agakapu unyuze ku ntugu bisa n'aho bari baje kwitabira ibintu runaka.

Abagabo basa nkaho bakuze, bamwe biyambariye udushati abandi barenzeho n'udukote, umwe yambaye isaha ndetse afashe ku gacupa ho gatoya, abandi batwihoreye ni akamazi buriya agiye kunywa ariko nkurikije akandi kaboko yitangiriye itama bisa nkaho yumiwe.

Abantu benshi ubona ko bari bicaye bamwe bafite za mudasobwa, barimo kureba imbere kuko bakurikije nyine ibiganiro biri kuvugwa. Ndetse bari mu nzu nini cyane, irimo irakamo udutara twiza, n'amadirishya abona ko bashobora kureba hanze.

Abasore ndetse ubona ko bambaye imyenda y'akazi y'ubururu, barimo baramanika umunara ndetse bawuha n'icyuma kizajya kiboherereza umuriro igihe runaka wabuze, hari ibiti byiza cyane bishobora no kuzana akayaga.

Amabuye meza cyane gusa wayarenga hari umuhanda w'igitaka, uhita umpanuka werekeza ahantu bacuruza kandi ugarutse inyuma gato hari umusore uhahagaze wambaye umupira ndetse inyuma ye hari imipira bakina n'amaguru, n'andi maduka ari impande yiwe bacuruza ibintu bitandukanye, bakaza gushakira ibyangombwa byo ku irembo.

Tugerageze tujye twigaragaza ku bushake nk'uko hano babidushishikariza kuri uyu musore ufite mudasobwa imbere ye, arimo araseka ndetse amahirwe arimo kwigaragaza ni aya: nta gucibwa ibihano bijyanye no kutamenyekanisha kutishyura uwo musoro, ntucibwa inyungu z'ubukererwe, ushobora kwishyura umusoro wagaragaje mu byiciro.

Gushaka akazi ni byiza cyane kuko karagutunga ndetse n'umuryango wawe ukabasha kuba wakigurarira iyo myenda y'inkweto ugahaha ibyo kurya ,hano rero mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro barimo barashaka umuntu ushobora gutsindira umwanya kwicara kuri ya ntebe yumukara.

Inzu nziza cyane ifite imiryango y'umweru ndetse iriho amakaro n'imbere hari ameza akoze mumbaho hateretseho mudasobwa ejo hari ikirango cy'ubururu cyanditseho irembo urerura hazapfa gushakira ibyangombwa runaka bi by'ingaragu n'ibindi.

Umugabo usa n'ukuze wambaye ishati arimo arereka abantu uburyo mudasobwa zikoreshwa, ni nyinshi cyane z'umukara, zifite n'ahandi bakanda, ndetse hari n'abagore baje kubyihugurira ngo barebe ukuntu na bo bajyana n'iterambere.

Hari urubuga rero ujyaho, cyangwa se aha kuri murandasi, ukaba wakandikisha ibigo byawe ushaka gutangiza, kugira ngo bijye bikubyarira amafaranga, unyuze hano rero, aho bakubaza ikintu ushaka kwandikisha, cyangwa se izina, n'ibyo ugiye gukora, bakaguha icyangombwa.

Uyu ni umunara utuma habaho impuzamajwi, abantu bakavugira ku materefone ndetse bagakoresha na eterinete, haba kuri mashini cyangwa kuri terefone.

Umunara ni ingenzi kuko utuma tubasha kuvugana n'abantu bo mu rugo tukohereza amafaranga cyangwa se tukaba baduhamagara tukagura n'ibintu dukoresheje ikoranabuhanga. Hano rero ni igicu urabona ko gisa ubururu ndetse n'umweru nta mvura irimo.

Inzu ndende ariko nkurikije uko nyibona isa nk'umunara hejuru ntabwo nzi ikihakorerwa ariko igipangu kirasa icyatsi, humakishije amatafari ahiye ariyo bita ruriba, uduti twiza cyane dukeya, ikirere kiza cyane kiriho uducu ubona ko aritwo twiganje cyane.

Ibyo leta yadushyiriyeho ni byiza cyane kuko byaradufashije, idushyiriiraho urubuga rw'Irembo ruzajya rudufasha kuba twashaka ibyangombwa bitandukanye, birimo ibyuko turi ingaragu cyangwa se n'inkiko n'ibindi.

Iyi foto iragaragaza inzu, kuri iyo nzu hariho umuntu ucururiza mu mutaka, inyuma y'umutaka hari abantu babiri, bari imbere y'inzu zo guturamo imbere yanyuma harimo igipangu.

Inzu ubonako zirimo iz'ubucuruzi nyinshi cyane zitandukanye hasi hariho imyenda imanitse n'ibindi bicuruzwa, ndetse ikirere kirimo ubururu bukeya agacu kumweru, insinga z'amashanyarazi zambukiranya.

Aha naho bahubakiye umunara haba harimo ibikoresho byose biwugize. Umunara utuma habaho konegisiyo hagati y'abantu bigatuma bakoresha amaterefone mu buryo bworoshye.

Ibyuma bigiye bibusanyije biriho amashanyarazi cyangwa se insinga zabyo, aho zizamutse ziwujyana mu tundi duce rero hakurya hari inzu ifite amabati ajya gusa ikigina, nkurikije uko nyibona iteye n'irangi ry'umweru hakurya hari andi menshi cyane.

Hari ibyuma byadufashije kuba byakwambutsa insinga z'umuriro w'amashanyarazi bizivana ahantu runaka bizijyana ahandi, rero hano hari igicu ubona ko gisa umweruru, ikirere kirimo ubururu bukeya, bisa n'aho biri kugenda bihindagurika, rero tujye tubisigasira tubashe kwanura imyenda niba imvura yenda kugwa.

Aha hantu hagenzurirwa umurimo kugira ngo abahura n'ibibazo bagenda babagoka mu buryo bwa rusange, hano rero urabona ko hasa neza, hari utubuye, ndetse hari n'imigozi yerekana ko utagomba kwinjira, isa umutuku n'umweru, bigaragaza ko rero hano hari umutekano.

Abasore babiri bambaye ingofero zisa imihondo n' imyenda isa ubururu y'akazi, hakurya hari ibiti ubona ko bahagaze ku nsinga z'umuriro w'amashanyarazi, bari kuwusana menya wari wangiritse. Rero tugerageze tubifate neza.

Mu muhanda mwiza cyane ukeye ubona ko harimo imodoka nyinshi ziri kwimanukira, harimo amatara ndanga cyerekezo nyine amurikira abantu cyangwa batwara ibinyabiziga, hakurya hari ibiti ndetse n'amazu menshi cyane ahari.

Ikirere kirimo ubururu bukeye cyane ndetse ibiti biri hasi ureba ko ugahita ubona bisa neza, hari gutandukamo insinga z'amashanyarazi zinyura ku giti gihagazeho, ubona ko zishyiriye abaturage umuriro.

Umuhanda w'igitaka iburyo bwawo n'ibumoso hari amazu agiye atandukanye. Ndahabona igipangu cy'amabara y'icyatsi ndetse iyo nzu isakaje amabati atukura. Hakurya y'umuhanda hari umukindo mwiza uri imbere y'igipangu cy'amatafari.

Ahantu heza cyane, ubona ko hubatse igikuta cy'amabuye kirekire, bahatera utwatsi, hashinzemo igiti gifata insinga, hirya gatoya hari ibipangu bine by'abakire baje kuhatura.

Inzu nziza cyane iri kure y'umunara cyangwa se amapironi ni ko bawita atambukaho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, amazu ateye irangi ry'umuhondo, afite amabati y'umutuku hakurya. Ni mu gace runaka nine ushobora kuza ukaba.

Amashanyarazi ni ngombwa atuma ducana tugashyira telefoni zacu ku muririro zikajyamo ndetse tukabasha kuba twazikoresha. Abogoshi bakadukuraho umusatsi tukabasha kuba twasa neza ndetse n'abasuderi bagakora inzugi bikagenda neza. Rero tujye tuwusigasira nk'uko izi nsinga ziyekana. Hasi hari abantu ndetse n'urugo ruriho ibiti.

Ahantu hateye ibiti byiza cyane, icyuma kiriho bya bintu byongera umuriro ndetse bikanawugabanya, ku bantu bize ibintu bijyanye n'amashanyarazi nibo babyumva, hakurya hari imigano minini cyane wabona yagandaye ndetse n'umuhanda nyuma yaho.

Inzu iri ku muhanda nziza cyane igeretse inshuro ebyiri hateyeho ibiti, insinga z'amashanyarazi, ibiti biri impande ndetse n'abamotari bambitse abantu ingofero zibarinda ibyago igihe bakoze impanuka, barimo baragenda bigaragare ko hano ari ahantu nyabagendwa.

Inkumi ebyiri ziri munsi y'imodoka y'umuhondo, ndetse n'umukobwa wicaye wambaye umwenda w'akazi, arimo aratanga amayinite ndetse inyuma yaho hari utubaho tuzitiye ahantu hari utwatsi n'inzu ziraho hakurya.

Ku mu muhanda haba hari ibirango nk'uko tubibona ibiti byinshi cyane, igipangu cyubakishije amatafari ahiye, amazu arimo imbere insinga z'amashanyarazi, igicu gisa nabi wagirango ngo akavura kagiye kugwa, umurongo w'umuhondo uri hagati na hagati werekana ko hari ibice bibiri.

Umusore wambaye umupira w'umukara ndetse yajyanishije ipantaro n'inkweto byose birasa, inyuma ahetse igikapu, impande ye hari ahantu hari ikigunda kirimo ibyatsi byinshi n'amapoto y'amashanyarazi ni ibibanza ubona ko waza akigurira ugatura ahitegeye umujyi.

Ikirango kiririmo ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, amagambo yanditse mu ibara ry'umukara. Hirya hari ibyuma bihashinze birebire ubona ko wagira ngo bijyana insinga impande yaho hari itara, ndetse wajyira ngo hari imirimo y'urwatsi iri kuhakorerwa.

Inzu nziza cyane ifite igipangu gikomeye ndetse n'ahandi hubakishije amatafari ariko ateye irange, hakurya hari izindi zifite imirasire hejuru, ihinduramo urumuri rw'izuba imbaraga z'umuriro ndetse zifite amabati y'umutuku.

Umuhanda mwiza urimo ibinyabiziga bitandukanye bisa umweru, ndetse n'abantu, abamotari bategereje abagenzi, hakurya hari inyubako iriho imbaho nyinshi isa naho nyine itaruzura, hari n'ibiti byiza bikeya.

Abantu barimo barimanukira mu umutaka w'umuhondo ndetse n'icyuma cyongera umuriro kikanawugabanya, hirya hari imodoka ihahagaze ndetse n'inzu ifite amabati y'amatuku aho ureba neza hari izindi nyinshi z'imikara zihari ndetse n'imyeru.

Leta yashyizeho gahunda yuko abantu baba bagomba gusukura umuhanda bagakubura, mu rwego rwo kugira ngo twirinde umwanda, uyu rero ufite umweyo akaba ari byo ari gukora, hakurya hari abagenzi bari kwitambukera ndetse n'imodoka zihari.

Intebe z'imbaho zicayeho umukobwa hakurya hari n'abandi ndetse hari uturabo, ikibuga, inkingi z'amabuye n'irangi ry'umuhondo cyangwa se ibisengera byo birasa ubururu.

Iyi mbangukiragutabara ni imodoka nziza cyane igera ahantu byakomeye haba hari umurwayi wihutirwa wenda bamuhindundiriye ibitaro, cyangwa se akoze impanuka bikaba ngombwa ko ajyanwa byihuse. Ihita ihagerera ku gihe rero nk'uko ubibona iriho imisaraba y'umutuku ndetse n'imirongo irasa umweru.

Ahantu heza cyane hakeye hasakaye, hakurya hari imodoka nziza y'umweru, ibirahuri ndetse n'amazu manini cyane ubona ko ari ibintu biryoheye ijisho, amatafari ahiye yubatse, izo ndi kuvuga, ikigega kibika amazi y'imvura cyangwa se ya robine.

Imodoka ubona ihetse ibintu bitandukanye, gusa turi kuyibona ku kibuno gusa, hakurya hari ahandi hari ahandi hari inzu ndende igeretse inshuro ebyiri nziza cyane imanitseho iminara hejuru, ndetse n'abari bari kugenda binjiramo bisa naho bafite ibyo baje kureba,

Abaturage aho bitabiriye ibikorwa runaka, harashashe amabuye, intebe zo kwicaraho hakurya hari n' imbangukiragutabara, ni imodoka zihagerera ku gihe nk'abantu barwaye cyane zikabageza ku bitaro byihuse, zisa naho bari gukuramo umuntu runaka bari bazanye.

Ahantu ho kwinjira ho ni henshi, hano rero urabona hari utwuma tw'umuhondo ndetse n'utundi tw'umutuku n'umweru, umubyeyi ari guturuka hepfo n'umusore wambaye umupira, agiye kwinjira mo imbere aho ngaho. Ku bantu bahazi rero ni ku bitaro bya Muhima.

Hashashe utubuye twiza cyane ubona hari n'abantu barimo baritambukira bane, umwe yambaye imyenda y'ubururu, hakurya rero hari imodoka eshatu zicaye zitegereje gutwara abantu, ariko nkurukije uko nzibona ashobora kuba ari imbangukiragutabara.

Imodoka z'ibitaro ni nziza cyane kuko ziradutaha igihe dukoze impanuka zihagerera ku gihe. Hano rero hari utwuma tuhakoratiye ndetse hari n'ibiti inyubako nziza cyane ikeye ubona ko igeretse bitewe n'aho kugendera h'abantu batandukanye.

Aha ni kwamuganga, aba n'abarwayi bari kumurongo bategegerejeko bavurwa, kwa muganga hafitiye akamaro abantu benshi, kuko hatuma abantu bakira indwara, muburyo bwihuse.

Ahantu heza ubona ko hakeye, imodoka z'umweru zihari ndetse n'indi ijya gusa umutuku, hakurya hari abantu bisa naho bari kuzamuka, undi nawe yicaye ku muhanda umubye uteze igitambaro, bisa naho afite icyo ategereje, ariko nkurikije ukuntu mbona, yarajyamuriye umuntu hariya hari ibitaro.

Iyo dukoze ibyaha turabihanirwa, bakatujyana mu igororero, kugira ngo tuzagaruke twaramenye ko atari ngombwa, ari bibi, rero uyu mugabo mubona afite igitabo, yambaye ibikomo, inyuma ye hari umucungagereza cyangwa se abamuherekeza, ndetse n'indabo z'umuhondo,

Umugabo cyangwa se umupapa tumwite uko dushaka, kubera ko arasa n'ukuze, umusatsi yarogoshe rwose, afite isuku ku mutwe. Yambaye umwenda w'umutuku, urengejeho akantu k'umukara, ubwo bigaragara bano nkurikije ukuntu mbibona, ni abantu bunganira abandi mu mategeko.

Ababyeyi bashiritse ubute n'isoni abategarugori bavuga ngo tugomba natwe kugerageza tukiga amashuri yacu tukayabyazamo umusaruro aho bahisemo kujya gukora ibijyanye n'amategeko ndetse bikaba byarabahiriye ayo makanzu mubona bambaye y'umutuku ni meza cyane anabagaragaza icyo bakora.

Nkurikije uko hasa n'uko intebe ziteye, cyangwa se zirimo, abantu barimo, noneho aba bicaye imbere bambaye imyenda y'imikara ni abunganira abandi mu mategeko. Uyu mugabo rero nawe wambaye ijya gusa umweru, afite igitabo mu ntoki, ubwo ndebye neza ni abo yitabaje.

Umubyeyi ubona ko asa n'ukuze rwose, wambaye imiringa ku matwi, ingofero zirabagirana hejuru ku ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, imyenda y'umutuku yiganjemo umweru, utuntu tw'umukara nanone, asa n'aho rero bano ari abunganira abandi mu mategeko.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye ku meza imbere, ikigaragaza ko umuntu wese witwa umutegarugori yahawe ijambo, bambaye udutambaro turiho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere yabo hari undi musaza usa n'ukuze ahagaze ndetse akikijwe n'imbaga yabantu nyamwinshi.

Umugabo mbona ko yambaye ingofero nziza cyane, imyenda cyangwa se mpuzankano ya gisirikare, afasha ku idarapo ry'u Rwanda kubera ko rirangwa n'ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, ririmo izuba mo imbere. Arimo ararahirira kuzarinda igihugu cye neza.

Umubyeyi mwiza cyane ufite imisatsi itaboshye nk'iy'abubu ngubu yambaye umwenda w'umutuku ndetse ubona ko asa naho ari umuntu warakaye, yambaye ibirimo umukara bigaragara ko yunganira abandi bantu mu mategeko.

Umu papa ubonako umusatsi yawugoshe afite ku umutwe ntakanwa yanigirije agashati ke imyenda y'imituku ndetse yiganjemo umukara n'umweru, aba rero bashinzwe kuba bakunganira abandi mu mategeko n'uburenga baka kurenganura.

Umusore yitwaga kito mihigo yaranzwe no kuba yahanga indirimbo zo mu cyunamo hano yari yambaye imyenda y'iroza bisa n'aho yari afunze arimo arisomera igitabo kugira ngo arebe iminsi yakwicuma nta kundi byagenda irungu ryakwiciramo.

Uyu ni umugororwa, ari kwisobanura mu rukiko gacaca. Inkiko gacaca zabagaho cyera ubu ntago zikibaho. Ari kwisobanura, kugirango bumve niba arengana cyangwa icyaha kimuhama.

Umugozi muremure cyane ufasha abantu bari kuzimiriza wenda niba inkongi y'umuriro ifashe hejuru wapfa kuwugezayo; hasi hari amacupa yabyo abifashe gusa ni abiri, rimwe risa umutuku irindi rirasa umweru mukeya. Ariko tujye tugerageza niba dufite ibitaro cyangwa se insengero tubishyimo kuko ni ingenzi cyane biradufasha birinda ibikoresho byacu kwangirika vuba.

Ku muhanda aho haba hari umuntu ushinzwe umutekano waho kugira ngo abamotari cyangwa se abatwara ibinyaziga nibakora amafuti abahane, burya rero ni umupolisi ndetse imbere ye urahabona imodoka n'amazu y'ubucuruzi.

Abamotari benshi babona ko bombi mota zabo zijya gusa umutuku, zigira amata imbere, bambaye ingofero zaribarinda ibyago, bamwe bahetse abagenzi barimo bayoborwa n'umuntu ushinzwe umutekano wo mu muhanda, cyangwa se tumwite polisi, biterwa n'uko ubivuga.

Ibicupa by'umutuku bibiri, ubona ko bimanitse ahantu runaka. Rero ni byiza ko abantu bafite ibigo by'amashuri, insengero n'ibindi, babyubahiriza bakajya bagenda babibika kubera ko ibi bizimya umuriro igihe bafashwe n'inkongi.

Kuba watunga icupa rizimya umuriro ni byiza cyane kuko biragufasha, rino rero rigomba kuba riri mu bigo by'amashuri, ndetse mu nsengero, cyangwa ahandi hantu hahurira imbaga nyamwinshi. Tugerageze rero tumenye ibyo dukeneye kugira ngo turinde ibikorwaremezo byacu.

Inzego zifasha abantu kuba bakurira bakagera kure bitewe na kamere y'ahantu, izi zikoze mu byuma ntago zipfa kuvunika, ntabwo ari nka zimwe za mbere z'ibiti, impande yaho hateretse ibindi bitandukanye, n'inzugi zirafunguye ndetse n'imodoka yahagaze.

Aya ni amacupa rero twifashisha nko mu bitaro cyangwa se ahantu hahurira abantu benshi mu bigo by'amashuri cyangwa mu nsengero kugira ngo nihafatwa n'inkongi y'umuriro, bahite bahazimya kubera ko aba arimo ibirungo, bituma umuriro udakomeza kuzamuka cyane ngo ugire ibyo wangiza bitandukanye.

Hari ibinyabiziga bishinzwe gutwara abantu cyangwa inzego z'umutekano, hano hari imirongo ihaciye y'umweru igaragazaga aho buri kimwe kigomba guhagara, iriya niya polisi isa umukara ndetse n'umweru ihagaze imbere y'inyubako yanditseho zigama.

Ibi bicupa rero, n'ibizimya umuriro igihe ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, kugira ngo harindwe kuba byakongeza ibindi bintu bitandukanye, n'ibyo ufite byose nabyo abibure tugomba kubitunga haba mu bigo by'amashuri, mu bitaro, mu nsengero, ndetse n'imodoka babishyizeho ko bigomba kubigira.

Uyu bamwita Muhayimana Philippe wagerageje kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko ntibyamuhira, ibi ni ibirango rero byamwamamazaga. Hakurya hari amazu meza urabona ko ari mu cyaro nyine n'imodoka y'umweru.

Tujye tugerageza twitabire n'amatora kuko ni byiza cyane, hano hari umubyeyi uri kuvayo, afite akana, abisikana n'undi mugabo wambaye imyenda y'umukara ndetse hepfo hari n'abandi bari kujyayo, urabona ko babyitabiye kandi byagenze neza.

Umukuru uyoboye igihugu cy'u Rwanda, urabona ko yambaye agashati keza, ari kumwe n'abantu benshi, bamwe bamutwaje ibitabo, harimo abategarugori bari inyuma ye, ahantu bageze hari uduti dutandukanye twiza tw'indongo nyine, barimo baratambuka bisa nk'aho bari baje mu du siporo.

Ufite imisatsi ya yisakoje ntago iboshye nk'iy'ubu yambaye ibitenge cyangwa se imyenda idoze muri byo bakuyeho ibitambaro bikingiriza ku muryango ahagararanye n'abana be babiri bambaye imyenda isa neza cyane ubonako banyweye amata.

Hari abakandida biyamamaje ari benshi ariko hatsinda umwe uyunguyu nawe rero yari yagerageje kuvuga ngo reka ndebe ko nayobora igihugu cy'u Rwanda ariko ntibyamuhira ari mu modoka rero baramutwaye agenda asuhuza abamufana cyangwa se abamukurikiye.

Abantu benshi ubona ko bari bitabiriye ibirori runaka birimo udutambaro tugiye turimo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hateye indabo ahantu bari, hari n'abandi benshi batonze umurongo ariko ntabwo tuzi ngo ni ibiki bategereje.

Umubyeyi mwiza cyane ubona ko imisatsi yayishokoje, impande ye hari idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara arimo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, afite impapuro mu ntoki n'agacupa k'amazi imbere ye kinyange, gafite umufuniko w'ubururu kimwe n'ikote yambaye bisa nkaho afite ikintu arabwira abantu.

Abantu ubona ko bombi bagiye ku murongo, ni ahantu hashashe utubuye twiza cyane ndetse hari ibiti, ni abasore n'inkumi bisa n'aho bitabiriye ikintu runaka tutabashije kumenya. Hirya hari inzu isakaje amabati bari kwinjiramo.

Ababyeyi ubona ko bambaye imishanana cyangwa se imikenyero wayita uko ushaka, bari kumwe n'abapapa ndetse ubona ko bakuze nta kuntu nabura kubita iryo zina, bambaye amakoti y'imikara, abandi barebye uko bajyanisha, bari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akaba n'umuyobozi wa efuperi inkotanyi Paul kagame, yambaye umupira w'umukara uriho ibirango biranga ishyaka ryabo, ndetse mu ibara ry'ubururu umwe n'umutuku inyuma ye hari umusore w'ibigango ubona ko ari kumucungira umutekano.

Abantu ubona ko bamwe bari kwifotoza abandi bafata amavidewo y'ubukwe bwabo cyangwa se y'ibirori runaka bakoze biraterwa, hari amadarapo menshi cyane, amazu ateye amarange y'umweru, uduti cyangwa se turi ahantu mu busitani bukeye cyane.

umubyeyi ubona ko yakeye, yasokoje rwose, imyenda irimo utuntu tw'umweru ndetse n'umukara, imbere ye hari mudasobwa, amazi yo kunywa agapapuro kariho izina rye ndetse hirya ye hari umugabo na we wanigirije agashati gasa neza k'umweru.

Uyu ni umuntu ari kuvuga kuvugira muri mikoro ari gutanga ikiganiro inyuma ye hari abantu bahicaye hariyo abantu bane bari imbere y'inzu y'ubucuruzi.

Imodoka y'ubururu, ihetse ibintu batwara mu iduka by'umutuku, ndetse n'icyatsi, imanukanye n'umu motari uhetse umugenzi w'umugore, bambaye ingofero zibarinda ibyago igihe bakoze impanuka, babisikanye n'indi iri kuzamuka.

Ibiti ndetse byiza cyane bikeye, ubona ko hari imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange iri gutambuka, ndetse imisego yayo ni umutuku, harimo bakeya, irimo irizamukira rwose ibisikana n'undi musore.

Imodoka ubona ko itwikiriye hari ho shitingi, irikubisika n'umumotari uhetse umugenzi ndetse n'umunyonzi urimo urizamukira, hirya gatoya hari igitambaro kizitiye cy'icyatsi n'imbaho zifasheho n'ibiti biteye, barimo barashyira imifuka y'umuhondo mu kindi kinyabiziga kinini.

Imodoka nini itwara imizigo igana mu bihugu bitandukanye by'abaturanyi ndetse ireme irazamuka hiry hari abanyamaguru bari kwimanukira barimo umugore ndetse na mugenzi we iruhande yaho hari igitambaro cy'icyatsi hirya gato hari ibiti bihazitiye.

Imodoka nini cyane ubona ko iri gutambuka hari igiti kiyikingirije ho gatoya ndetse n'inzira z'abanyamaguru ziciye imirongo y'umweru, hari n'indi y'umukara iri kunyura ku mudamu wambaye agakanzu karimo bururu bukeya.

Moto ubona ko rwose ipine ryayo risa nabi yanyuze mu byondo, ipakiye ibintu ntabasha kumenya ibyo ari byo kubera bitagaragara hari shitingi y'umukara itwikiriyeho ndetse n'ibiti ku mpande. Iri kumanuka ku muhanda, hakurya hari abantu bahagaze bisa n'aho bari ku itara ricana nijoro igihe bwije.

Imodoka nini cyane ubona ko ifite inyuma ikintu cy'ubururu ndetse hakurya gato hari abamotari bahetse abagenzi, bamwe bari kuzamuka abandi bamanuka n'uyu musore uri hano wambaye ikabutura n'imyenda y'umweru yajyanishije, hakurya rero hari utundi turiho imifuka y'umuhondo bari gushyira mu modoka nini cyane.

Umuferege ucamo amazi ndetse munsi y'ikiraro. Hirya hari imodoka ihahagaze ku gipangu cy'umukara, umubyeyi ari gutambuka afite agafuka asa nugiye guhaha. Naho abandi hepfo y'aho bibereye mu zindi gahunda.

Umuhanda hahagazeho uyu mubyeyi wambaye utuntu tw'umukara, afite agakapu ndetse hakurya hari motari urimo akata moto asa n'aho azamutse. Hirya hari indi paritse utuzu ubona ko dusa nk'udukoze cyane ndetse n'indi bari kubaka.

Icyo twakita ikinyabiziga kuko gifite amapina abiri n'amaguru, hano rero bahatwaragaho bya bintu biba biririmo inzoga nyine bakabijyana ahantu runaka bivuye aho bicururizwa, ukabishyira nko muri iduka ryawe.

Umumotari arimo araza yirukanka, ubona ko ari mumuhanda afite uburenganzira bwe bwose bwo kugenda uko ashatse, hirya hari ibiti ndetse n'amatara acana n'ijoro igihe bwije ahetse umugenzi.

Ibiti byiza cyane, ubona ko bikeye ndetse bituma ahantu hagaragara neza, mu kayira k'abanyamaguru umumotari ari kuharenga, atwaye umukobwa wambaye ingofero zimurinda igihe akoze impanuka ndetse n'indabo z'umuhondo ziteye hirya.

Ku muhanda hariho abantu benshi cyane batandukanye n'indi modoka ishushanyijeho hejuru iraka itara rimwe ry'inyuma ndetse hari umuyonziro utambuka uhetse umugore, izindi ziri imbere ziriho n'abantu benshi cyane, ubona ko nyine ari ku mazu y'ubucuruzi.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, isa umweruru, ndetse ibirahuri birafunguye, umwe yasohoye ukuboko, yambaye umupira w'umutuku, gusa barimo, iri kubisikana n'umumotari utwaye moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Hakurya hari igitambaro cy'icyatsi cyihazitiye n'ibiti, ndetse n'imbere harimo umuntu urimo urapakira imifuka y'umuhondo.

Umumotari ari kuzamukana n'umunyonzi uhetse umufuka w'ibirayi yawuziritse ku igare, umasego na wo awushyiraho inyuma, n'iyo ngiyo na yo itwikirije shitingi y'umukara ndetse hirya gatoya hari igitambaro cy'icyatsi kitatuma ubona ibiri kubera mu imbere.

Kugenza igare nijoro byaracitse, aho iyo babonye barifata impamvu ni uko nta bwishingizi kandi iyo rikoze impanuka biba ibibazo, rero iri ngiri urabibona ririho imisego, ariko burije imodoka zimwe ziri kwigendera, amatara aracanye nijoro hari kubona nta kibazo.

Ibiti bidufasha kuba byakurura imvura cyangwa se bigatangira ubutaka andi abamotari baparitse bategereje abagenzi bambaye ingofero zibarinda ibyago, ndetse izindi modoka zirikwigendera, inyuma yaho hari ahantu hari utwatsi.

Imodoka zidufasha kwikorera imizigo ni izi ngizi, iisize irangi ry'ubururu imbere hari indi y'umweru, ibyuma hejuru ritangirana bitandukanye hano hagenfdamo ibitoki, ibirayi, amakara, n'ibindi. Hakurya ku muhanda nk'uko bigaragara imodoka zindi ziri gutambuka.

Biriya binyabiziga bitandukanye bibona bishinshije ibyuma bifitemo pinabiri naabavuga ibicanye amatara hara hari abantu benshi, ibi rero babitwaragamo inzoga nyinshi cyane bazijyanye ahantuo runaka biri mutwatsi birabyara akazu mu twumweru gafite n'ibirahuri hakurya hari izindi modoka zitwara mu buryo bwa rusange.

Utugare dufite amapine dutoya bashyiraho imizigo myinshi tukayirukankana kandi itaremereye ,aka rero nako niko gafite amapine, hirya hari indobo bari gushyiramo imyanda y'ubururu byose byegamye ku giti.

Imodoka nini itwara ibintu biremereye birimo amabuye imicanga cyangwa se ibindi, irasa umweru inyuma, imbere naho hari utundi twinshi tuyikurikiye cyane cyane abanyonzi ndetse zirimo zirabisikana ahantu mu biti.

Hari imodoka zagenewe kuba zagenda ahantu hanini nyine cyangwa se ingendo ndende. Izi nazo zirimo ziva mu mahanga nyeyine ziza mu Rwanda zizanye ibicuruzwa ifiti ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi inyuma iri kwimanukira mu muhanda hakurya hari ibiti.

Ibiti bitari inzitane cyane ushobora kunyuzamo ukareba ikarere ukuntu gisa, ariko wakwigize amasozi hasi harimo ibyabaye inzitane. Hari igitambaro cy'icyatsi kihazitiye, umunyonzi arimo aramanuka, n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange y'umweru.

Ibiti bituzanira imvura, ndetse bikanafata ubutaka, imbere hari imodoka y'umutuku, ifite amapine menshi utabasha kubara, yikoreye umucanga, ndetse yanawutwikiriye kugira ngo utaba wanyagirwa, impande ye hari iyindi ifite urushitingi rw'umutuku, isa n'aho yari iri kuzamuka, indi imanuka.

Imodokamo bininini cyane ndetse biba bifite amapine menshi atandukanye, kimwe ni umweru kiri kumanuka ikindi ikindi gisa ubururu hakurya hari aho bari gushyira imifuka y'umuhondo, mu kindi kinini cyane ubona ko ari ibintu bajyanye hanze.

Imodoka ifite ibyuma hejuru bitangiwe kugira ngo bitagwa harimo amakarito mo imbere arimo ibintu bitandukanye ndetse n'imifuka y'umuhondo n'umweru, imbere yayo hari n'izindi nini zijya mu mahanga ugasanga zivanyeyo ibintu biremereye.

Iyi modoka ni ndende cyane ariko iragenda irirukanka nkuko bigaragara, ifite amabara y'icyatsi, ubururu, ndetse n'umweru, ibirahuri byiganjemo agakara, inyuma ije ikurikiwe n'umunyegare ndetse n'umumotari.

Imodoka ebyiri ziteganya gusa imwe isumba indi ho gato kuko iri imbere hagati yazo harimo abagabo urebye imbere hari iyindi yayo y'ubururu, ubona ko zose zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, urazitega ugakozeho ikarita zikakuvana hamwe zikujyana ahandi.

Imodoka ubona ko ikeye, ireba neza amatara yaryo aracana ukabibona, ndetse inyuma harafunze ntabwo wareba ibirimo, hirya hari abamotari n'amatara ndetse n'ibyuma bizitiye utapfa kuhanyura.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange ni nziza cyane, nkubu iyi ngiyi irasa ubururu ndetse n'umweru, iyo mirongo mubona ikataguye ni igaragaza ko hano abanyamaguru bahambukira, hakurya ni umusore uri kurenga wambaye umupira w'umutuku n'indi irimo iraza imusatira.

Moto ubona ko itwikirijwe n'ikintu cy'umukara gishushanyijeho nimero ya telefone ndetse niwabahamagara bakaza kugutwaza, nyuma y'aho hari izindi modoka ziri kuhaturuka zirimo izimanuka izindi zizamuka kandi hari amasore ahagaze yambaye ipantaro y'umutuku.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange ni nziza cyane, kuko zituma tumenya aho tujya cyangwa se tugakora urugendo rutuvana ahantu kure rutujyana ahandi, niba uva Ruravu ukaza i Kigali birashobo. Rero iyingiyi na yo y'ibara ry'icyatsi, umweruru ndetse n'ubururu ni yo icanye n'amatara; ndetse hari n'andi yo ku muhanda amurika igihe bwije.

Imodoka nini cyane iriho ibyuma bishinze by'umutuku mo imbere harimo amashitingi y'umukara batwikiriza wenda ibirayi, ibitoki, amakara, biterwa n'ibyihetse. Ifite amapine akiri mashyashya, hakurya hari izindi na zo bari gushyiramo imifuka y'umuhondo n'umweru n'abantu bari kwitambukira, yerekana ko hari aho baranguriza cyangwa se bazana ibicuruzwa.

Imodoka ntoya ariko ubona ko isa umweru, imbere yayo hari iyindi isize irangi ry'ubururu, hejuru hariho ibyuma, zihagaze ku muhanda ho gatoya, urabona ko zitonze umurongo ari nyinshi cyane, hakurya hari undi unyuramo n'izimanuka n'izizamuka, ibiti ndetse hitegeye n'amazu.

Tugerageze tujye tugenda mu modoka twizeye, ndetse tuzi ko n'abadutwaye bafite umutekano nta kibazo bafite, hano hari izitwra mu buryo rusange, imwe iri mu ibara rya move, rivanze n'umweru ibirahure n'umukara, indi irasa iryo navuze mbere rivanze nko kuri iyi ya mbere, hakurya hari umusozi witaruye ubona ko utuyeho abantu.

Ni heza cyane urabona ko hafite amabati y'umutuku, amarido akingiriza amadirishya kugirango hatagira urebamo imbere, ibyuma bitangira umuhanda cyangwa byerekana ku nkengero zabo hanyuramo imodokadoka ndetse hakuno hari ikibuga abantu batatu bari gukinamo umupira.

Ikibuga cyiza cyane kirimo ibyatsi ariko ahantu haciye umurongo ahagiye harimo n'akayira abantu bahora bitambukiramo ndetse hakurya hari aho wicara hari n'ibiti amatara acana nijoro igihe bwije akabasha kuba yakumukira.

Ahantu hazitijwe n'insinga ariko ku bantu bahazi ni ikibuga bigishirizaho gutwara, hariya hari ikirango cyerekana ko batagomba kurenza umuvuduko wa makumyabiri, harimo amamodoka menshi ndetse na moto zitandukanye.

Ikirango kiranga abantu batwara ibinyaziga nyine bagomba kubahiriza kiri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'umweru, ishusho ni mpande eshatu, ikirere urabona ko kirimo ubururu bukeya, hari n'uduti duhari turi kugaragara umutwe gusa, giteye ku cyuma kirekire.

Iki ni ikirango kireba abantu bose batwara ibinyabiziga ndetse kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, ndetse ubonako cyerekeza mu cyerekezo kimwe, ibi rero bivuze ko nta gukata cyangwa se ngo ujye mpande n'impande.

Ahantu heza cyane nik'umuhanda, ibyatsi birateye cyangwa ubusitani wabyita uko ushaka hari ikirango kiri mw'ibara ry'umutuku cyanditsemo ijambo ngo hagarara ubanze urebe impande zombi ko nta kinyaziga kiri bukwinjirane ubone gukomeza nk'uko hari abamotari bari kuhaturuka.

Abatwazi b'ibinyabiziga nibo bagomba kubahiriza ibirango biba mu muhanda nk'uko kino kiri mu ibara ry'umutuku ndetse handitsemo ijambo ngo hagarara kibyerekana, bisaba ko ubanza kwitonda ukareba impande zombi ukabona kwinjira mu muhanda.

Ikirango cyerekana abantu batwara ibinyabiziga ko bagomba gukurikiza inzira imwe, cyangwa se bagakata iburyo ariho bemerewe. Hakurya hari ibiti byiza cyane bikeye, ikirere na cyo kirasa ubururu, hano ni mu ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo.

Ikirango kireba abantu batwara ibinyabiziga cyerekana ko umuhanda utanyurwamo mu byerekezo byombi, nyine ubwo haciyemo umurongo w'umutuku kubari kubibona, ibyo aho ngaho mvuze ndetse birangwa n'umweru n'ubururu.

umuhanda urakeye iyo mvuga ya misoro yawe ujya umenya ko ari byo ikora ndetse hari n'ikirango cyerekana ahantu ugiye kuhita muri rambura ibiti biri ku mpande harimo isuku hakurya hari abantu bari kuza ubona ko bafite iyo bigiriye ndetse n'umurongo muremure wo mu muhanda hakurya hari ikindi kirango ngo kireba abantu batwara ibinyabiziga ko bagomba kwitonda kiri mu ibara ry'umutuku kuko ahantu bageze hambukira abagenzi.

Abatwara ibinyabiziga barebwa n'ibi ngibi kubera ko ibi nta hantu utabisanga mu muhanda. Iki ni ikirango rero kiri mu ishusho ya mpandeshatu, ubuso ni umweru ndetse n'ibara ry'umutuku rikizengurutse. Harimo abantu babiri basa n'abafite ibitabo cyangwa se amakayi ubwo rero ujye uhita umenya ko imbere gatoya hashobora kuba hari ikigo cy'amashuri.

Ikirango kirimo ishusho ya mpande eshatu harimo umwana uri kwambuka mu mirongo icagaguye, ubwo ku bantu babizi cyangwa batwara ibinyabiziga bagomba guhita bamenya ko imbere ho gatoya hari ahantu abanyamaguru banyura.

Kuri wowe utwara ikinyabiziga ni byiza cyane kubahiriza amategeko y'umuhanda, kubera ko haba hari ibirango bigiye biri hagati, bikuyobora ahantu ugeze, hano rero hari ikiri mu ishusho ya mpande eshatu, gusa ni umutuku abana babiri umwe bafashe akaboko undi bisa n'aho bari kugenda ugahita umenyaya ko imbere hashobora kuba hari ikigo cy'amashuri.

Ibirango biranga ibinyabiziga ko ahantu bigeze bigomba kwitonda, ni nk'ibingibi, kino rero kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ishusho y'umweru muri mpande eshatu, bigaragaza ko umuntu ari kwambuka, ubwo ku muntu nawe ugerageza kuba agenda ku binyabiziga ahita abyumva ko imbere ho gato, hari aho abanyamaguru batambukira.

Abatwazi b'ibinyabiziga rero tugomba kumenya na twe uburenganzira bwabo, kubera ko niba uri umunyonzi ufatwa nk'umunyamaguru ni ko bizwi, ikirango rero kirimo ibara ry'umutuku hanyujijemo igare kuri uno murongo utukura, handitseho ko nta gare rikwiye kuhatambuka.

Ikirango kiranga abatwara ibinyabiziga, ndetse munsi yacyo urabona ko harimo abanyonzi bafite imisego yicara aho abantu, bahagaze barimo baraganira, hakurya hari imodoka ziri kurenga zica hejuru y'ikiraro, ubwo bigaragara ko hano hatanyurwa n'ibinyabiziga bihetse.

Umuhanda mwiza cyane ubona ko ukeye, ku bantu bahazi rwose bahita bawumenya, n'ikirango kibyerekana ko ari Muhanga mu karere kaho, abantu bahagaze batonze umuronko ari benshi naho, inyuma hari ibiti amatara nijoro yaka igihe bwije.

Ku muhanda haba hari ibirango bitandukanye bigaragaza ko ugomba kubahiriza, rero hariya harimo mirongo itandatu ubwo ntabwo ugomba kurenza uriya muvuduko nukuvugango niwo utegetswe iyo kiri hasi ni ibyeyerekana ko imbere gatoya uri buhure n'icyuma gifotora abakoze amakosa cyangwa se ubaye uwurengeje.

Ikirango cyerekana ibinyabiziga ko bitari bukate iburyo, icyo ngicyo nyine, kiri mu ibara ry'umuhondo, umukato unyuzemo, ikindi kiri mu ibara ry'umutuku hanyujijemo umurongo w'umweru, kigaragaza ko hadakwiye kuba zahagarara nyine, cyangwa se zitahanyura, muri make ubwo iziri kuhatunguka nizo zemerewe kuba zahava.

Hari umuhanda mwiza cyane ukeye, ubona ko urimo isuku, nta binyabiziga biri kuhatamba, ndetse hari ibiti byiza, amatara cyangwa se ibirango n'urupangu rwiza cyane rurimo inzu y'amabati y'umutuku.

Imodoka y'umukara, hakurya hari akandi gatoya ndetse n'inzu ndende iciyemo insinga nyinshi cyane, ubona ko aha ni mu mazu y'ubucuruzi uhasanga ibintu bitandukanye, bigufasha kwiteza imbere cyangwa se ugahaha, ubaye wubaka dore ngibyo n'ibyuma bigufasha kuba wasakara inzu yawe.

Ahantu heza, ubungubu mu uwahaguze kera arimo arunguka amafaranga atandukanye, ariko hari abahanze kubera ngo hari ibihuru, reba amabati ahari amabati y'umutuku, ateye amarangi y'umweru, ibiti bihateye, igicu kiri hejuru kirasa ubururu bukeya.

Insinga ndetse z'umuriro ziri kwambukiraranya zijya kuri buri rugo, umuhanda mwiza cyane ukeye mbona kurimo abantu bakeya mu bipangu by'abakire bahatuye hateye indabyo, ndetse nta n'icyondo cyahabarizwa nk'uko bigaragara bashyizemo utubuye.

Hari ahantu haba hafite ibyiza nyaburanga biteye amabengeza umuntu asohokera nyine akajya kwiberamo, nk'uko utu twatsi tuhateye dutoye tuhatangirire tw'umukara n'umweru ndetse hakurya hari imodoka zihahagaze, hari ibiti byiza cyane nkurikije ukuntu mpabona hari n'inzu nziza rwose irimo n'ibirahure.

Amazu asa neza ubona ko afite amabati y'ubururu hakurya hari indi bisa nkaho bakiri kuyikora irundamo imbaho nyinshi. ndetse na bya bikoresho bifashisha bari gusiza ubutaka, biri hakurya bisa n'umuhondo wareba hirya, hari ahantu wagira ngo ni inganda nyine zikora ibintu runaka kubera ko zirasa zose.

Hari ahantudusohokera ugasanga hari ibyumba byiza cyane abajyana mukunzi ewenda nka kino gipangu kiriho amadirishya n'utwuma dushinze imbero wabonako ari amabati ko bisa n'aho ari hejuru, ari ibibyo bizana akuka mo imbere ndetse hakurya hari n'ibikingira izuba.

Akayira k'abanyamaguru ndetse hateyeho utubuye, imodoka z'umutuku n'umukara zihagaze, abandi bari kurenga bahetse ibikapu, bambaye amashati y'umweru n'uduti duteye aho ngaho rwose, ni ibintu bisa neza cyane.

Imodoka z'imikara zose ubona ko zirahagaze, hakurya hari umuhanda w'amabuye ndetse n'ubwinjiriro nkurikije uko mbibona hari abantu bambaye imyenda y'imihondo ndetse hirya gato hari amasoko acururizwamo ibintu bitandukanye, muri iyi nzu igeretse.

Inzu nziza cyane ifite amati y'umutuku, ndetse n'ibiti, izindi z'umweru hakurya hari itaruzura, ndetse no ku muhanda urahabona imodoka zitandukanye, hakurya iyo uhitegereje ubona hari umujyi, nyine ukeye cyane ibintu biryoheye amaso.

Umusore wambara agapira k'ubururu ndetse n'ikabutura inkweto z'umukara, hakurya hari imodoka ibona ko bisa naho iri kurangirwa aha nigiye wa mugabo n'amazu meza cyane mfite amabati y'umutuku mu biti byiza bikeye.

Inzu ubona ko igereretse inshuro nyinshi hejuru iyo uhicaye ub witegeye umugi ariko hasi wagira ngo haracyari imirimo y'ubwubatsi ijyanye n'izindi z'amabati y'umukara zigiye zicagaguye inyuma yayo hari ibiti.

Ku muhanda mwiza cyane ubona ko utambukaho ibinyabiziga ndetse n'ibindi, hari imodoka y'umukara rero irimo iramanuka hakurya hameze nk'ikiraro nyine, hari n'ikirango cyerekana ko ushobora kwinjira muri cya gipangu cy'icyatsi ukaba wakwinywera akantu gasembuye.

Umuhanda urimo umurongo w'umuhondo ndetse n'aho wagiye ucikagurikamo, ariko hakurya hari aho bacuruza imiti ndetse hino yaho hari aho bafite amata atandukanye ushobora kuza ukinywera, iyo tuvuze gutyo harimo ikivuguto ndetse n'inshyushyu.

Abagabo batatu basa n'aho bari kuganira, ndetse bari ku inywera amazi; abandi bari kunywa icyayi. Gusa imbere gato hari ahantu ukarabira nyine n'isabune hejuru, ukabasha kuba wakura umwanda ku ntoki zawe, ku buryo aho uri bukore hose utaribuhanduze.

Inzu iteye ku muhanda isakaye ifite ibirahure bidafunguye bimwe hasi hateye ibiti ndetse byiza cyane byarabije indabo z'umuhondo, hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'akayira k'abanyamaguru.

Mu muhanda ahantu heza hari utubuye ndetse n'utundi turi ku ruhande, ni utw'abanyamaguru, ibiti byiza cyane biteye, utuzu twubakishije imbaho, indabo zihateye ndetse nabantu. Bisa n'aho waza ukahanywera agacyayi cyangwa se ibindi bintu ubashije.

Inzu isakaje amabati ndetse hakurya hari urupangu ruriho inzinga abantu burira zabatema, ubwo ni abajura, hakurya hari ibiti byiza cyane ndetse n'amazu afite ibisenge bisu umutungo rwose meza.

Akamodoka gaciye bugufi k'ubururu gahagaze hano ku gitaka inyuma hari izindi zirebana n'amaduka acuruza ibintu bitandukanye tutamenye ibya aribyo hagiye hariho ibirango bibigaragaza.

Hasi hari ibyuma bitangira imyanda amazi akikomereza ndetse agaca munsi y'iki kiraro, hakurya rero hari amazu afunze arimo ibirango by'umutuku n'ubururu, hirya hagati hari aho abacuruza imyenda ubona ko ari iy'abagore ndetse n'imbere urumva harimo n'ibindi bintu bitandukanye.

Amazu meza urabona yose afite amabati ajya gusa y'ubururu, hari izindi zigiye ziteye indabo, imihanda igiye inyuranyuranamo, ibiti bihari bizana akayaga. Hakurya hari ayandi matage rwose ubona ko agerete meza cyane. Ubaye ufite amafaranga waza ukahatura.

Umuhanda mwiza cyane ubona ko ukeye, ni umuhanda ubonamo akayira k'abanyamaguru, hakurya imirongo ibiri icagaguye bigaragara ko ari ho abanyamaguru bambukira nk'uko turi kubabona, bari kuhagenda, hakurya hari amatara rero ubona ko ari kwaka n'ibiti byinshi cyane.

Umusoro wawe niwo wubaka imihanda ndetse ugakora ibikorwa remezo dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, hano rero urabona ko zimwe zica hejuru n'izindi zikanyura munsi, ni ku kiraro kandi hariho n'amatara bamurika igihe bwije.

Umuhanda wibyeyerekezo bitandukanye, hano hari igice cya ruguru ndetse hari n'icyo hepfo kirimo izindi nyinshi ziri gukomeza, hateye utwatsi, hateye ibiti byiza cyane n'amatara ku muhanda amurika nijoro igihe bwije.

Umuhanda ni uwakorewe ibinyabiziga bitandukanye, bigenda bitwara abantu mu buryo bwa rusange cyangwag se mu buryo bwihariye. Hano rero hari umurongo ugaragaza inkombe zawo, ndetse n'imodoka iri kurenga. Hari ibiti n'utubuye turiho umukara n'umweru.

Imodoka y'umutuku iri kubisikana n'indi y'umweru, hirya gato hari ikirango, ndetse iyo amatara akubiseho nijoro, gihita kiba akagarurarumuri kugira ngo ubone ko hari iziri guturuka, cyangwa se ari ikirango cyerekana ko ari ibice bibiri bitandukanye, mu merekezo, n'igicucucucu cy'uwo muntu.

Abanyonzi barahagaze, hirya yabo hari abamotari, abandi bagenzi barimo baritambukira bazamuka, barimo umwari ndetse n'umugabo, naho imodoka zo ziri kurenga munsi y'ikiraro hejuru hanyuraho izindi, amatara ari kwaka kubera ko burije nk'uko bigaragara.

Ikeye biba bivuze ko amafaranga ariyo akora akazi, rero hano amatara ari kwaka mu muhanda nijoro ndetse ibinyabiziga bimwe biri guca munsi y'ikiraro ibindi bigaca hejuru urabona ko nyine bahanyura bazengurutse ari ahantu heza hateye utwatsi.

Ku umuhanda ubona ko iyo uri kuza uhita ugwa ahantu abanyamaguru bambukira bikagusaba kwitonda tugereranyije, hari abamotari rero barikwigendera bamwe, abandi bazamuka, bamwe bimanukira, hari ibiti, ibyuma biteye irangi ry'ubururu n'amatara ku mahanda.

Mu muhanda hagendamo ibinyabiziga, ni byiza ko twajya twitonda, tukamenya uko twambuka, hano rero haciye imirongo y'umweru, ni yo igaragaza ko hatambuka abanyamaguru, nk'uko uriya musore arimo arabigenza, yateyeho ibiti, hakurya hari izindi ziri kuza zirukanka.

Tugerageze tujye tumenya ibimenyetso byo mu muhanda kubera ko ni byiza cyane biradufasha, hano hari imirongo y'umuhondo igiye ikatakasemo hagati hakurya hari abantu bari kugenda rero bivuze ko nta kinyabiziga kemerewe kuhahagarara, igihe ngeze hano ngo kibe cyahamara umwanya munini.

Ku muhanda habera ibintu byinshi cyane bisaba kwitonda, reba nk'iki kiziba cyaharetse hari igihe ushobora kugenda widogadoka mu kayira k'abanyamaguru, imodoka yakubitamo ikaba yanduje agapira kawe k'umweru keza cyane, ni byiza ko rero twajya dutuza tukagenda twitonze.

Umuhanda w'igitaka utitonze wagwa, rero hano harimo utubuye tunyerera iriya moto iri kazamuka isa n'ubururu yikorera imizigo, ibiti biri ku mpande, ibipangu bizitiye ndetse hakurya hari amazu meza cyane y'umweru ageretse inshuro enye.

Imirongo icagaguye uzayisanga mu muhanda hagati uzahite umenya ko ari aho abanyamaguru bambukira. Hanyuma rero biriya bimenyetso ubona ko birikwaj umutuku harimo n'amasaha ari kubara ni ibigragaza ko ntawemerewe kuhatambuka hagati atarahabwa uburenganzira.

Ko twajya twitonda kubera ko hari igihe bashobora ku kugonga, abamotari babiri bakurikiranye imbere hari imodoka ifitemo urushitingi rw'ubururu n'ibyuma by'umutuku, iri kunyura munsi y'ikiraro ariko no hejuru haturukayo n'izindi.

umumotari arimo aramanuka ndetse abisikana n'undi, hakurya hari ikirango cyerekana ko zikomeza zimanuka izindi zikazamuka, ndetse n'akagarurarumuri, hejuru hari ibiti birimo umuntu wambaye umupira w'umweru ndetse n'amazu.